Mo imbere mu nyubako isizemo irangi rijya gusa umubundo, akaba ari ishuri, imbere hari ikibaho cy'umukara gishushanyijeho ibintu bitandukanye, harimo intebe n'ameza.

Mo imbere mu nyubako ahagaragarara umudamu uhagaze wambaye ijipo y'umukara ndetse n'ishati y'amaboko maremare akikijwe n'abana bahagaze.

Umudamu uhagaze wambaye itaburiya yera, akaba akikijwe n'abana benshi bicaye k'umusambi, bakaba bose bafite ibitabo bari gusoma.

Inyubako igaragara yubakishijwe amatafari matoya ahiye, mu mbuga hakagaragara abadamu babiri bakenyeye ibitenge n'abana babazengurutse.

Umudamu wunamye wambaye igitenge akaba yiteze igitambaro cyera, imbere ye ku musambi hicayemo abana ari kubagaburira.

Mo imbere mu ishuri ahagaragaramo abana batoya, bambaye impuzankano, hakaba harimo imeza ikozwe mu mbaho, bicaye ku dutebe.

Mu imbere mu nyubako ahagaragara abadamu n'abana bicaye ku musambi, bose bakaba bafite ibitabo bari kwiga amasomo.

Mo imbere mu nyubako igaragara ko ari ishuri, hakaba harimo ameza akozwe mu mbaho ndetse n'intebe, abana bose bafite ibitabo bari gusoma.

Mo imbere mu nyubako ahagaragara abana benshi bicaye ku musambi, bose bafite ibikombe bari kunywa n'umudamu wambaye itaburiya y'ubururu.

Mou imbere mu nyubako ahagaragara ko ari ishuri, hicayemo abana batandukanye abahungu n'abakobwa, hari umudamu wambaye itaburiya yera.

Mu imbere mu nyubako isizemo irange ryera, haragaragaramo abana batoya batandukanye abahungu n'abakobwa bicaye ku ntebe.

Hanze ahagaragara abana benshi batoya, hakaba hari uwambaye utubodaboda tw'ubururu ndetse n'agakabutura gasa ubururu yegeranye n'uhetse agakapu mu mugongo.

Umudamu ugaragara wambaye umupira w'icyatsi, imbere ye hakaba hari abana batoya barimo abahungu ndetse n'abakobwa.

Umudamu ugaragara ukenyeye igitenge, imbere y'iwe hari abana bicaye ku musambi, akaba yabashyize ibiryo hagati bari kurya.

Mo imbere mu nyubako ahagaragaramo abana b'abanyeshuri, harimo ameza akozwe mu mbaho ndetse n'intebe bicayeho zifite amabara atandukanye.

Mo imbere mu nyubako ahagaragara umudamu uhagaze, wambaye ikanzu idozwe mu gitenge, hasi hakaba hari abana bamukikije bicaye ku mukeka.

Inyubako zigaragara ziri mu gipangu zubakishijwe amatafari matoya ahiye, zikagira inzugi ntoya zikozwe mu mbaho.

Ishuri ryubakishijwe amatafari matoya ahiye hagaragaramo abana batoya b'abanyeshuri, harimo abambaye amashati asa ubururu.

Inyubako zitandukanye zubakishijwe amatafari matoya ahiye, hakagaragara imwe ifite inzugi zikozwe mu mbaho zifite ibara ry'icyatsi.

Inyubako zigaragara, zisize irangi rijya gusa umundo, zisakajwe amabati, imbere yaho hakaba hari akandi kazu, kubakishijwe utwuma tureture.

Inyubako igaragara yubakishijwe amatafari matoya ahiye, ikaba isakajwe amabati, mu imbere harimo intebe zikozwe mu mbaho no mu twuma.

Urukuta rugaragara rwubatse, hakaba hashushanyijeho amashusho y'abantu, umudamu ndetse n'umugabo, imbere yabo ku giti, hakaba hari inzoka.

Inyubako igaragara iriho amadirishya akozwe mu byuma, hakaba hasizeho akarangi kenda gusa ubururu, imbere hakagaragara umwana w'umukobwa wambaye imyenda y'ishuri.

Mo imbere mu nyubako ahagaragaramo intebe zitandukanye, hari izicarwaho banandika bakabikamo n'amakayi ndetse n'akandi bicaraho gusa kegereye akabati.

Inyubako igaragara yubakishijwe amatafari matoya ahiye, ku rukuta hakaba hari ikibaho gihari mo imbere hakagaragara akabati gakozwe mu rubaho.

Mo imbere mu nyubako ahagaragaramo ibintu byinshi bitandukanye, harimo intebe ikozwe mu rubaho ndetse n'akabati gakozwe mu rubaho karambitseho ibitabo.

Akapa gatoya gasizeho irangi ry'umweru, kakaba kanditseho amagambo manini mu ibara ry'ubururu, gateye hafi n'ahari ibiti inyuma hakagaragara imodoka.

Inyubako igaragara yubakishijwe amatafari matoya ahiye ndetse n'igipangu kigaragara, hakaba hari abana bambaye imyenda y'ishuri.

Mo imbere mu nyubako igaragaramo imyenge myinshi itandukanye haragaragaramo amasafuriya manini yifashishwa mu gutekera abantu benshi cyane.

Ikigo cy'amashuri kigaragaramo inyubako yubakishijwe amatafari matoya ahiye, ikaba ifite isakaro risa umutuku imbere haragaragara abana b'abanyeshuri.

Abana batoya b'abanyeshuri, hari umwe uhetse agakapu k'umukara yambaye bodaboda abandi bafite amadirishi akozwe mu byuma.

Urukuta rugaragara rwubakishijwe amatafari matoya ahiyi, hakaba hometseho akapa kari mumabara atandukanye umuhondo, ubururu n'icyatsi.

Inyubako igaragara yubakishijwe amatafari matoya ahiye, hakaba hariho amadirishya akozwe mu byuma ndetse n'urugi rukozwe mu mbaho rw'icyatsi.

Ikigo cy'amashuri kigaragaramo inyubako zubakishijwe amatafari matoya ahiye, imbere mu kibuga hakagaragara abana batoya bambaye imyenda y'ishuri.

Mo imbere mu nyubako hasi kuri sima, hagaragara agakoresho gafite ibara ry'umweru bifashisha bacomekaho ibikoresho bitandukanye ndetse n'intebe zikozwe mu mbaho zitagaragara neza.

Mo imbere mu nzu hasi ahateretse ibikoresho byifashishwa mu buzima bwa buri munsi, hari ibase isa ibara ry'ubururu ndetse n'akandi kameze nk'indobo y'icyatsi.

Mo imbere mu nyubako yubakishijwe amatafari matoya ahiye, hakagaragaramo agakoresho kifashishwa mu gucomeka ibintu.

Intebe ikozwe mu rubaho isa naho ishaje, ikaba yifashishwa abantu bashyiraho ikayi bandika hagaragaraho ingwa z'amoko atandukanye.

Mo imbere mu nyubako ahagaragaramo akabati gakozwe mu mbaho, kakaba karimo amoko atandukanye y'ibitabo ndetse na telefone iri ku muriro.

Ishuri rigaragara ryubakishijwe amatafari matoya ahiye, rikaba rifite urugi rukozwe mu mbaho rw'icyatsi, hicayemo abana bafite mudasobwa.

Ikigo cy'amashuri kigaragaramo inyubako zubakishijwe amatafari matoya ahiye, zikaba zisakajwe amabati, mu kibuga haragaragara abana benshi.

Inyubako zigaragara zubakishijwe amatafari ahiye, zisakajwe amabati y'ubururu, mo imbere mu gipangu cyazo hakaba hateyemo amoko y'ibiti atandukanye.

Inyubako igaragara yubakishijwe amatafari matoya ahiye, isakajwe amabati, hanze hakagaragara abana bahetse udukapu bambaye imyenda y'ishuri.

Ikigo cy'amashuri kigaragaramo inyubako zubakishijwe amatafari matoya ahiye ndetse ikaba isakajwe n'amabati, hanze haragaragara abanyeshuri benshi.

Inyubako nyinshi zigaragara bisa nkaho ari ikigo cy'amashuri, cyubakishijwe amatafari matoya ahiye, hino mu muhanda hari umwana uri kuhagenda.

Urukuta rugaragara rwubakishijwe amatafari matoya ahiye, hakaba hometseho igipapuro cy'umuhondo gishushanyijeho ibintu byinshi bitandukanye; inzu n'igikombe.

Inyubako igaragara yubakishijwe amatafari matoya ahiye, ikaba isakajwe amabati hagaragara abana batoya bahetse udukapu.

Inyubako igaragara yubakishijwe amatafari matoya ahiye, ikaba ifite isakaro ry'ibara ritukura, hanze hakagaragara abana b'abanyeshuri.

Inyubako igaragara yubakishijwe amatafari matoya ahiye, hakaba hariho urugi n'amadirishya bikozwe mu byuma ikaba isakajwe amabati.

Inyubako iteyeho karabasasu, hasi ku rubaraza rwayo hakaba hicayeho abana batandukanye, abahungu n'abakobwa bose bafite amakayi n'ikaramu.

Inyubako igaragara yubakishijwe amatafari matoya ahiye, imbere mu mbuga haragaragara abana b'abakobwa n'abahungu bambaye impuzankano.

Inyubako yubakishijwe amatafari matoya ahiye, hakaba hagaragaraho ikibaho gisize irangi ry'umukara, hari amagambo yanditseho yifashishwa mu buryo bw'ubumenyi.

Akazu gatoya kubabakishijwe imbaho ndetse n'ibiti kakaba gasakajwe amabati, hepfo hari indi nini yubakishijwe amatafari matoya ahiye.

Inyubako igaragara yubakishijwe amatafari matoya ahiye, hanze hakagaragara ikibuga gishinzemo ibyuma birebire byifashishwa banaga mu baro.

Ikigo cy'amashuri kigaragaramo inyubako yubakishijwe amatafari matoya ahiye, hakaba hateyemo hagati ibendera ry'igihugu, rifite amabara ubururu, umuhondo n'icyatsi.

Mo imbere mu ishuri ryubakishijwe amatafari matoya ahiye, haragaragaramo intebe nyinshi cyane zikozwe mu mbaho zifashishwa bazandikiraho, banabikamo amakayi.

Inyubako igaragara yubakishijwe amatafari matoya ahiye, hakaba hariho urugi rutoya rusize akabara kajya gusa icyatsi, bigaragara ko ari ubwiherero.

Abana batoya bahagaze imbere y'ikigega gifite ibara ry'umukara, bo bakaba bambaye amajipo asa ubururu ndetse n'udushati dusa ubururu.

Inyubako igaragara hanze hakaba hari abana b'abanyeshuri bambaye udushati tujya gusa ubururu ndetse n'amakabutura asa igitaka.

Igikuta kigaragara cy'inzu iteyeho idirishya, rikozwe mu cyuma rifite irangi ryashaje ry'icyatsi, hakaba hahagazeho umwana utagaragara neza.

Mo imbere mu ishuri ahagaragaramo abana benshi, hari abambaye imyenda isa igitaka n'abandi bambaye imyenda isa ubururu bicaye ku ntebe.

Mo imbere mu ishuri ryubakishijwe amatafari matoya ahiye, haragaragaramo abana batoya bicaye ku ntebe, imbere ya bo hakaba hari igitabo bari kwiga.

Inyubako igaragara; yubakishijwe amatafari matoya ahiyi, hakaba hamanitseho ibyapa bigiye biriho ibishushanyo bitandukanye by'intoki.

Mo imbere mu nyubako ahagaragara urukuta rusize irange ry'umuhondo, hometseho igipapuro cy'ibara ry'umweru gishushanyijweho ibishushanyo bitandukanye.

Abana batagaragara mu gice cyo mu isura, akaba ari abahungu n'abakobwa bambaye amashati afite ubururu bwerurutse, hasi bakaba bambaye imyenda isa igitaka.

Ikigo cy'amashuri ahagaragaramo inyubako zubakishijwe amatafari mato ahiye, zisakajwe amabati, imbere hakaba hicaye abanyeshuri benshi.

Igice cy'umuhanda kigaragara kigenderwamo n'abanyamaguru, ku ruhande hakagaragara jaride n'ibiti bihateye n'icyapa kihashinze gikozwe mu cyuma.

Igipangu kigaragara cyubakishijwe amatafari matoya ahiye, kikaba gifite urugi rusize irangi ry'ubururu ndetse n'icyapa kiri hejuru kinini.

Inyubako igaragara yubakishijwe amatafari matoya ahiye, Ikagaragaraho amadirishya, manini arimo ibirahure. Imbere hakaba hari ibyatsi biteyemo n'uduti.

Abanyeshuri benshi bahagaze mu kibuga gikinirwamo umukino w'amaboko, bose bakaba bambaye imyenda y'ishuri, hirya hakagaragara amazu.

Mo imbere mu nyubako bigaragara ko ari ishuri, ikaba hasi ifite sima, ku rukuta hari ikibaho cy'umukara cyanditsweho amagambo ari mu mabara atandukanye.

Icyapa kigaragara gikozwe mu byuma, hakaba hasizeho irange ryera, ku mpande hakaba hasizeho ibara ry'icyatsi, hakaba handitseho amagambo atandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo ugaragaramo abana b'abakobwa, hari uri kugenda ndetse n'abandi babiri bahagaze, umwe yiteze agatambaro k'icyatsi ahetse n'igikapu.

Inyubako nini zigaragara zubakishijwe amatafari matoya ahiye, imwe ikaba isakajwe n'amabati y'ubururu, imbere ku muryango w'igipangu hari icyapa kiriho.

Igipangu kigaragara kiriho urugi rukozwe mu cyuma rusize irangi ry'umutuku, hakaba hegamyeho umwana w'umunyeshuri w'umuhungu ndetse na mugenzi we bari kumwe.

Inyubako nini yubatswe mu buryo bugereritse, hagaragara abana benshi b'abanyeshuri bambaye impuzankano ndetse n'umudamu uri imbere wambaye ipantaro y"umukara n'ishati yera.

Inyubako igaragara yubatse igeretse, isizeho irangi rijya gusa icyatsi, hagaragaraho urugi rwa métalique ndetse n'idirishya.

Mo imbere mu ishuri ahagaragara abanyeshuri batandukanye, abari imbere akaba ari abakobwa babiri bambaye amashati yera, ku ntebe hari ikayi bari kwiga.

Inyubako nini igaragara yubakishijwe amatafari ahiye matoya ikaba isakajwe amabati, imbere hari icyapa gisize irange ryera.

Igipangu kinini kigaragara cyubakishijwe ibyuma binini, mo imbere haragaragaramo inyubako ndende, yubakishijwe amatafari mato ahiye.

Igipangu kigaragara kinini gifite urugi rurimo ibara ry'umuhondo ndetse n'umweru, hari amagambo yanditseho n'icyapa cy'icyatsi kiri iruhande.

Inyubako igaragara igeretse yubakishijwe amatafari matoya ahiye, imbere ikaba isizeho irangi ryera, hakaba hateye amabendera atandukanye.

Mo imbere mu nyubako yubakishijwe amatafari ahiye, hakaba hagaragaramo amatara ari kwaka, hicayemo abanyeshuri benshi bambaye imyenda isa.

Igipangu kigaragara cyubakishijwe amatafari matoya ahiye, imbere hakaba hateye icyapa gikozwe mu byuma, gisizeho akarangi k'ubururu n'umweru.

Mu imbere mu nyubako igaragara ko ari ishuri, hakaba imbere ku kibaho cy'umukara hari amagambo ahanditse, haragaragara kandi umugabo wambaye itaburiya yera.

Inyubako igaragara yubakishijwe amatafari matoya ahiye, ikaba isakajwe amategura, hakagaragara urupangu runini rufite urugi rusa ubururu.

Ikigo cy'amashuri kigaragaramo inyubako zubakishijwe amatafari matoya ahiye, akaba hariho inzugi zisa icyatsi imbere hakaba hicaye abana benshi babanyeshuri.

Ikigo cy'amashuri kigaragara, ku gipangu hakaba hari urugi rukozwe mu twuma tureture, hasizeho irangi ry'ubururu, hejuru hari icyapa kinini cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu.

Inyubako igaragara yubakishijwe amatafari matoya ahiye, imbere ku gipangu hakaba hahagaze umugabo wambaye ishati y'umweru n'ingofero.

Mu imbere mu nyubako ahagaragaramo intebe zitambitse zikozwe mu rubaho n'utwuma, imbere hahagaze umugabo wambaye umupira w'amaboko magufinya wera.

Mo imbere mu nyubako isize irangi ryera, hagaragaramo ameza manini akozwe mu mbaho, hakaba hari n'ikibaho cy'umweru kimanitse ku gikuta.

Ikigo cy'amashuri kigaragaramo inyubako zitandukanye, hakaba hateyemo ihema risa umweru, hari abana bari gukina umukino w'amaboko, hirya hari ibiti birebire.

Mo imbere mu nyubako ahagaragaramo ikibaho cyifashishwa abantu bigiraho, handitseho amagambo ari mu mabara atandukanye ndetse n'umutwe w'umwana utagaragara.

Mo imbere mu ishuri ahagaragara ikibaho cyanditseho amagambo menshi atandukanye ndetse n'ibishushanyo, hakagaragara umwana wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara.

Inyubako igaragara yubakishijwe amatafari mato ahiye, hakagaragaraho amadirishya akozwe mu byuma, imbere hasize irangi ry'umweru, hari amagambo manini ari mu ibara ry'ubururu.

Mo imbere mu nyubako ahagaragaramo intebe nyinshi zikozwe mu mbaho ndetse harimo umugabo wambaye umupira w'umukara n'ipantaro.

Inyubako igaragara yubakishijwe amatafari matoya ahiye, haragaragara umuntu w'umusore uri ku igare ari kugenda agenderaho.

Abanyeshuri bahagaze ahantu bambaye imyenda y'imyeru hejuru, hasi akaba ari umukara, ni abakobwa ndetse n'umuhungu.

Mo imbere mu nyubako ahasizemo irangi ryenda gusa umweru, hakagaragara ikibaho kiri mu ibara ry'icyatsi, hakaba hari amagambo yanditseho mu ibara ry'umweru.

Mo imbere mu nyubako igaragaraho amadirishya ariho ibirahure ndetse n'akabara k'ubururu, mo imbere kandi harimo akabati gakozwe mu mbaho gapanzemo ibitabo.

Mo imbere mu nyubako ahameze nk'aho ari mu cyumba cy'ishuri, hari idirishya rikozwe mu cyuma, risizeho akarangi k'ubururu, mo imbere hari intebe zikozwe mu mbaho.

Amashuri agaragara yubakishijwe amatafari matoya ahiye, imbere mu mbuga hakagaragara abanyeshuri benshi bicaye ndetse n'abayobozi babo bicaye ku ntebe.

Mo imbere muri salle ahagaragaramo abana benshi b'urubyiruko rw'abanyeshuri biganjemo abakobwa, hakaba hari n'umudamu uri kubigisha kuririmba.

Mo imbere mu nyubako ahagaragaramo ibikoresho bitandukanye, hari intebe ikozwe mu rubaho yicarwaho ikabikwamo n'amakayi, ikibaho bifashisha mu kwandikaho amasomo.

Umwana utagaragara neza ku gice cyo mu maso ndetse no ku maguru, akaba yambaye ishati isa ubururu mu ntoki ziwe ateruye akabase gakozwe mu cyuma karimo imboga.

Ikigo cy'amashuri kigaragaramo inyubako zubakishijwe amatafari matoya ahiye, hakaba hari n'ibendera riteye hagati rifite amabara atandukanye umuhondo, icyatsi n'ubururu.

Ishuri rigaragara, ryubakishijwe amatafari matoya ahiye, aragaragaraho amadirishya y'ibyuma, imbere mu byatsi kaba hicaye abanyeshuri, ndetse n'ikigega cy'umukara gifata amazi cya purasitike.

Mo imbere mu nyubako ahagaragara umwana wicaye mu kagare k'ababana n'ubumuga bwo kutagenda, imbere y'iwe hari imeza iteretseho mudasobwa.

Mo imbere mu ishuri ahagaragaramo abana benshi b'abanyeshuri, bicaye ku ntebe zikozwe mu mbaho, imbere yabo hakaba hari amakayi bari kwandika.

Inyubako zigaragara zubakishijwe amatafari ahiye, hino mu byatsi hakaba hari abanyeshuri bahicaye ndetse n'umugabo ubahagaze imbere.

Icyumba cy'ishuri kirimo abantu batandukanye ari bo abanyeshuri ndetse n'abagabo bahagaze, umwana umwe imbere ye hari mudasobwa iri kwaka.

Kaburimbo igaragara, hirya y'aho hakagaragara inyubako ziri mu gipangu cyubakishijwe amatafari matoya ahiye ndetse n'utwuma duteyemo.

Abana bagaragara bafite amasuka bakaba bari guhinga ndetse bambaye amajipo ajya gusa igitaka bose, inyuma hateye insina.

Inyubako nyinshi zubakishijwe amatafari matoya ahiye, zikaba zisakajwe amabati, hanze hari abanyeshuri b'abahungu n'abakobwa bari kugenda.

Inyubako igaragara yubakishijwe amatafari ahiye, hanze mu mbuga hakaba hicaye abanyeshuri benshi, imbere yabo hicaye abayobozi.

Umuhanda wa kaburimbo ugaragara hari abana b'abakobwa b'abanyeshuri bari kugendamo, imbere yabo hakagaragara icyapa cyerekana ahaparikwa imodoka.

Inyubako igaragara yubakishijwe amatafari matoya ahiye, haragaragaraho idirishya rikozwe mu cyuma harimo n'ibirahure, imbere hari akarange k'umweru kahasize.

Mo imbere mu nyubako harimo ibikoresho byinshi bitandukanye, harimo intebe zisa umukara ndetse n'akabati gakozwe mu mbaho karimo ibitabo.

Mo imbere mu nyubako ahagaragaramo amatara ari kwaka, ku gikuta hakaba hari ikibaho bifashisha biga n'umuntu wicaye imbere ya mudasobwa.

Sale igaragaramo abantu benshi batandukanye abadamu ndetse n'abagabo imbere ku meza hari za mudasobwa nyinshi bakaba bari kwiga.

Inyubako igaragara iriho amadirishya akozwe mu byuma, hanze hakagaragara umuyoboro ucamo amazi, iruhande hakaba hari ibiti birebire.

Mo imbere mu nyubako ahagaragaramo ibikoresho bitandukanye, harimo agatara kari kwaka, gateretse ku kameza gatoya n'ibitanda bibiri biriho matera n'imisego.

Mo imbere mu nyubako ahagaragaramo ibikoresho byinshi bitandukanye, hakaba harimo ameza akozwe mu mbaho ndetse harimo n'utubati dufashe ku gikuta.

Imbere mu nyubako ahagaragaramo abantu, harimo abasore ndetse n'abakobwa bakaba bafite amakayi bari kwandika, inyuma yabo hari umwe uhagaze.

Mo imbere muri salle nini cyane, yicayemo abantu batandukanye, hari abadamu ndetse n'abagabo bicaye ku ntebe zifite ibara ry'ubururu n'icyatsi.

Sale nini igaragaramo amatara ari kwaka, hakaba harimo intebe nyinshi cyane zifite ibara ritukura, hakagaragaramo abantu benshi biganjemo abadamu.

Inyubako igaragara isiziho akarange k'umweru, ikaba isakajwe amabati imbere hari icyapa gikozwe mu cyuma gisize irange ryera n'amagambo y'ubururu yanditseho.

Mo imbere mu nyubako igaragaraho urukuta rusize irangi ryenda gusa umuhondo, hakaba ari n'ikibaho cy'umweru cyifashishwa mu kwigirwaho bandikaho ndetse n'akandi gakoresho kamanitse hejuru.

Inyubako ndende zitandukanye zigaragara, zikaba zisizeho amoko atandukanye y'amarangi, zikikijwe n'ibiti birebire cyane.

Inzira igaragara yubakishijwe amapave, ku ruhande hakaba hari byatsi bita jaride hakaba hateyemo agatebe kicayeho abantu babiri.

Mo imbere mu nyubako igaragara, isize irangi ry'ibara ryera, hakaba harimo amatara abiri, agaragara, ari kwaka ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Mo imbere mu nyubako ahagaragara ibikoresho byinshi bitandukanye, hakaba hari kwakamo itara, imbere hakagaragara Mudasobwa iri kwaka.

Mo imbere mu nyubako isizemo irangi ry'umuhondo, imbere ku gikuta hakaba hamanitse ikibaho cy'umweru, ku meza hakaba hari za mudasobwa zitandukanye.

Mo imbere mu nyubako isizemo irange ryera haragaragaramo akabati kanini gakozwe mu mbaho, harimo amoko menshi atandukanye y'ibitabo.

Umuntu ugaragarira mu kirahuri cy'idirishya, ndetse n'undi wicaye akaba wometseho igipapuro cy'umweru cyandikishijeho amagambo mu ibara ry'umukara.

Inzira igaragara yubakishijwe ibyo bita amapave, ku ruhande rwayo akaba hari ibyatsi byinshi bita jaride hateyemo amoko atandukanye y'ibiti.

Mo imbere mu nyubako ahagaragaramo akabati kanini cyane, gakozwe mu tubaho tugiye duciyemo uduce twinshi, hakaba harimo amoko atandukanye y'ibitabo.

Inyubako igaragara inyuma yaho akaba ari ishyamba, ikaba isakajwe n'amabati atukura, isize irangi rijya gusa umuhondo, hagaragaraho akadirishya gato.

Mu nzu isizemo irange ryenda gusa umuhondo, hagaragaramo ibikoresho byinshi bitandukanye, aribyo ibase ebyiri, imwe y'umutuku n'indi ijya gusa ubururu n'inkweto.

Mo imbere mu nyubako ahagaragara abagabo babiri ndetse n'umudamu umwe, ufite imisatsi iboshye, akaba yambaye amarinete n'agahena gatoya.

Inyubako zigaragara zubatse zigereritse, imbere hakaba hari amatara afashe ku byuma, hari n'abantu bari kugenda mu nzira.

Sale nini igaragaramo abantu benshi batandukanye harimo abagabo ndetse n'abadamu, imbere ya bo ku meza hateretse za mudasobwa.

Inyubako zigaragara zisizeho irangi ry'umuhondo zikaba zisakajwe amabati, hanze hagaragara indabo hakaba hari n'umuntu uri kugenda.

Inyubako nini zigaragara, zubatswe mu buryo bugeretse, hakaba hasizeho amarangi y'amoko atandukanye, inyuma yaho hakagaragara ibiti byinshi.

Mo imbere mu nyubako igaragara ko isizwemo irange ry'umuhondo, hakaba harimo ibikoresho byinshi bitandukanye, intebe ndetse n'ameza.

Inzira y'amapave imbere ahagaragara inyubako yubatse ndende, ikaba ifite uruhande rusizeho ibara ryera, iri mu gipangu cyubakishijwe utwuma.

Mo imbere mu nyubako isizemo irange ry'umuhondo, haragaragaramo utubati dukozwe mu mbaho ndetse n'ameza, n'intebe, n'ibikombe biteretse hasi.

Mu imbere mu nyubako yubakishijwe amatafari ahiye, hakaba harimo amatara ari kwaka n'utubati twinshi dukozwe mu mbaho, harimo ibitabo bibitsemo.

Inyubako igaragara yubakishijwe amatafari matoya ahiye, imbere yayo hakagaragara umuntu wegamye ku rukuta ndetse n'umudamu n'umugabo bari kugenda.

Inyubako igaragara isakajwe amabati, hakaba hariho ibyapa binini bigaragara ibihakorerwa, hashushanyijeho n'ubwoko bw'inyamaswa bita inzovu.

Inyubako nini igaragara igeretse y'amatafari ahiye ikaba iriho amadirishya menshi cyane ariho ibirahure, hasi hakagaragara umuntu uhahagaze.

Inyubako igaragara nini cyane ikaba iteyeho inkingi imbere, isizeho irange ry'umweru ikaba ifite ubusitani bunini buteyemo indabyo ndetse n'igiti.

Mo imbere mu nyubako ahari kwakamo amatara, imbere ku gikuta hakaba hari ikibaho bifashisha bandikaho amasomo, hakagaragaramo intebe zikozwe mu mbaho n'umuntu wicayemo.

Inyubako igaragara yubakishijwe amatafari matoya ahiye, hakagaragaraho amadirishya akozwe mu byuma, imbere hakaba hateye umutaka ndetse n'ameza n'intebe.

Mo imbere mu nyubako ahahagaze abantu batandukanye batagaragara mu gice cyo mu isura, bambaye bose amataburiya afite ibara ryera, ku meza hariho udukoresho dutandukanye.

Mo imbere mu nyubako isizemo irange rijya gusa ubururu, haragaragaramo uburiri bushashe neza ndetse n'umusego, hakaba hateretseho udukapu n'inzitiramibu bakoresha birinda imibu.

Ikibuga gikinirwamo umupira w'amaguru giteyemo ubwatsi, kikaba kizengurutswe n'ishyamba rigiye ririmo ibiti byinshi bitandukanye birebire.

Inyubako igaragara yubakishijwe amatafari matoya ahiye, hakaba hamanitseho ikintu kiriho ibirahure, mo imbere hakaba harimo impapuro.

Inyubako igaragara isizeho irange rijya gusa umweru ndetse n'amadirishya akozwe mu byuma arimo ibirahure, imbere hakagaragara icyapa.

Ibiti byinshi bigaragara biteye ahantu murugo, imbere y'inyubako nini igaragara yubakishijwe amatafari matoya ahiye.

Mu imbere mu nyubako igaragaramo amatara menshi ari kwaka, isizemo irange ryera hakaba hicayemo abantu batandukanye bambaye amataburiya y'umweru.

Inyubako igaragara yubatse igeretse, ikaba yubakishijwe amatafari matoya ahiye, hakaba hariho amadirishya menshi akozwe mu byuma ariho ibirahuri.

Inyubako ndende igaragara, isakajwe amabati atukura, ikaba isize irangi ry'umuhondo, ifite amadirishya ariho ibirahure, igipangu gikozwe mu byuma.

Inyubako igaragara, yubatswe mu buryo bugeretse, ikaba isizeho irangi ryenda gusa umuhondo, ndetse n'amadirishya arimo ibirahure.

Imbere mu nyubako ahasa nk'aho hasizemo irangi rijya gusa umuhondo, hakaba hicayemo umugabo utagaragara mu gice cyo mu isura, akaba yambaye ipantaro.

Inyubako itagaragara neza hose, yubakishijwe amatafari matoya ahiye, ikagaragaraho urugi rukozwe mu rubaho rufite ibara ritukura.

Mo imbere muri sale isizemo irange ryera, hakaba hagaragaramo abantu benshi batandukanye abagabo ndetse n'abadamu bicaye ku ntebe.

Mu nzu ahagaragara urukuta rusize irange rifite ibara ry'umuhondo, hejuru ku gisenge hakaba hamanitseho utwapa dufite ibara ry'ubururu n'umweru.

Inyubako igaragara yubakishijwe amatafari matoya ahiye, ikaba isakajwe n'amabati afite ibara ritukura, imbere hakagaragara ikibuga.

Inyubako itagaragara neza yose, ikaba yubakishijwe amatafari matoya ahiye, hakagaragara agace gatoya k'idirishya ririmo ibirahure.

Mo imbere mu nyubako ahasize irangi rijya gusa umweru, haragaragara amamashini atandukanye ndetse n'umugabo wambaye ikoti ry'umutuku n'umudamu.

Inyubako igaragara yubakishijwe amatafari ahiye, hino hakagaragara icyapa kiriho ibara ry'umweru cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umutuku n'umukara.

Mo imbere mu nyubako, isize irangi ryenda gusa umweru. Hamanitseho ikibaho cyera, cyifashishwa mu kwandikaho ibintu runaka, ndetse n'intebe yo mu rubaho.

Inyubako igaragara isize irange rijya gusa ubururu, imbere muri jaride hakagaragara akapa kari mu ibara ry'ubururu kandikishijwemo amagambo mu ibara ryera.

Mo imbere mu nyubako ahagaragarara icyapa cyanditseho amagambo menshi ndetse n'intebe ifite ibara ry'umutuku n'indi ifite ibara ry'icyatsi n'umugabo wicaye imbere ye hari mudasobwa.